Abana ndetse n'umuntu mukuru bari kwicunda mu byicundo byagenewe abana mu gihe cyo gukina, ibi bikaba bibafasha kugira ngo ubwonko bwabo buruhuke bityo ibyo biga babashe kubifata neza.

Udukoresho ndetse n'udukinisho dufite amabara abereye ijisho, twanditseho inyuguti, imibare ndetse n'ibindi, harimo kandi n'ibitabo, ibi byose bikaba bigira akamaro mu myigishirize y'abana bakiri bato mu mashuri y'inshuke n'abanza.

Igikinisho kinini cyane gisize amabara atandukanye arimo umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, iki cyasizwe amabara n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bikaba ari mu rwego rwo kugira ngo bazamure ubukorikori.

Udukoresho ndetse n'udukinisho dufite amabara meza, arimo umutuku, ubururu, umweru n'icyatsi kibisi. Utu turakoreshwa cyane mu burezi cyane cyane ubw'abana bakiri bato, biga mu mashuri y'inshuke, bikabakangura ubwenge bibategura kuba abantu bakomeye mu gihe cy'ejo hazaza.

Urukuta rw'ikigo cy'ishuri ribanza, rifite ibara ry'umuhondo. Kuri uru rukuta, hashushanyijeho inyamaswa izwiho kuba ari itungo rigufi ryo mu rugo, ritanga umusaruro w'inyama. Iri rizwi ku izina ry'intama.

Agakinisho gakozwe mu ishusho y'imodoka nini itwara imizigo nanone kandi hari n'utundi dukinisho dufite amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi. Ibi bikoreshwa mu kwigisha abana bakiri bato.

Igikinisho gikozwe mu ishusho y'inyamaswa ndetse gisize amabara meza, iki gishushanyo kiraririmba ndetse gifasha abanyeshuri cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke, gukangura ubwenge ndetse no kumenya ubwenge.

Agakapu gafite amabara meza arimo umuhondo, kakaba kandi kariho igishushanyo gifite ishusho y'ipusi, ibi bikaba bituma abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke bamenya ubwenge, cyane cyane iyo biga bifashishije ibintu by'udukinisho.

Umunyeshuri wo mu ishuri ribanza ndetse w'umwana muto uri munsi y'imyaka itanu, yambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi kibisi, uyu afite agakoni gasizeho amarangi, aho ari gushushanya igishushanyo cye ku rukuta rw'ishuri.

Udukoresho dufite amabara meza atandukanye, arimo umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, utu dukoresho dufasha cyane mu burezi bw'abana bakiri bato, cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bakurane ubwenge.

Udukoresho turimo amakayi, amakaramu akoreshwa mu gushushanya ndetse n'akandi gakoreshwa mu guteranya, mu kugabanya ndetse no gukuba imibare, ibi byose ni ibikoreshwa mu burezi bw'abana bakiri bato, cyane cyane abo mu mashuri y'inshuke.

Udukoresho n'udukinisho dufite amabara meza arimo icyatsi kibisi, ubururu n'umuhondo. Utu dukoresho dukunda gukoreshwa cyane mu kwigisha abana bakiri bato cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke. Ibi ni mu rwego rwo kugira ngo ubwenge bwabo bukanguke banagire ubushobozi bwo kuzaba abantu bakomeye mu gihe cy'ejo hazaza.

Inzu y'ikigo cy'ishuri ribanza ishushanyijeho ibikoresho bigira akamaro mu rugo. Urugero twavugamo nk'itoroshi ibonesha mu gihe cy'ijoro, ibi bikaba bifasha abanyeshuri kugira ngo bamenye ibikoresho bikoreshwa mu rugo.

Ishuri rifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iri ryigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hashushanyijeho kandi ku rukuta amasaha kugira ngo abanyeshuri bamenye uko isaha ibarwa. Iruhande rwaryo kandi hari ikinyamitende cy'igare.

Amashuri atondeganyije ku murongo, yubatswe mu buryo bugezweho, afite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ku nkuta z'iryo shuri hashushanyijeho ibikoresho byinshi ndetse n'igare, imbere yaryo kandi hari imbuga yisanzuye abanyeshuri bakiniramo.

Udukinisho dufasha mu myigire ndetse n'imyigishirize, mu mashuri abanza turimo imigozi yo gusimbuka, amadenisi yo kudunda ndetse n'utundi. Utu, dukoreshwa n'abanyeshuri iyo bari mu kuruhuka.

Inyubako za Kaminuza zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakajwe amabati. Imbere y'izi nyubako, hari ibiti birimo ibirebire n'ibigufi, hakaba kandi n'indabo nziza zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Imboga ndetse n'imbuto, zirimo inyanya, imineke ndetse n'izindi. Izi mbuto zifasha umubiri kugira ngo ugire intungamubiri, ubashe guhangana n'indwara ndetse kandi abazirya babashe kugira ubuzima bwiza, bufite ubudahangarwa.

Agakoresho gakozwe mu byuma, gafite amabara y'ubururu bwijimye, aka gakoresho tugasangamo utundi dukoreshwa mu kwiga imibare cyane cyane mumashuri abanza, utu ducama imirongo, tugapima uburebure ndetse n'ubutambike.

Amashuri meza yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ndetse imbere yayo hakaba hari ubusitani bufite ubwatsi butoshye hakaba kandi harimo n'Idarapo ry'Igihugu, inyuma y'amashuri hari ibiti birebire bihuha umwuka mwiza.

Inyubako z'ikigo k'ishuri zubatswe mu buryo bwiza zifite n'amabara atandukanye, muri iki kigo kandi harimo n'ibiti bifite amashami aho abanyeshuri bicara bakugama izuba. Rifite kandi n'ikigega kinini gifata amazi.

Umwana muto cyane w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, yambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, ari kwandika ku kibaho cyo mu ishuri akoresheje ingwa y'umweru. Uyu, ari kwandika inyuguti zigize ururimi.

Inzu nziza cyane rwose ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, iyi nzu irasakaye ndetse inakoze neza, imbere yayo hari ikinyabiziga cy'ipikipiki gitwara abantu n'imizigo mu gihe bashaka kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Mu cyumba cyiza gifite amabara meza arimo ubururu ndetse n'umuhondo, harimo udukinisho twinshi dukoreshwa mu kwigisha abana bakiri bato cyane cyane abo mu mashuri y'inshuke, ibi bibafasha kugira ngo ubwonko bwabo bukanguke.

Abanyeshuri bambaye impuzankan zifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, bari mu nzira yabo berekeza ku ishuri gufata amasomo yabo, aba kandi bari gusunika umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bajyanye ku ishuri na we.

Umwarimu wigisha mu mashuri abanza, yicaye mu cyumba cy'ishuri gifite amabara y'umuhondo ndetse kiriho ikibaho cy'umukara cyifashishwa n'abanyeshuri iyo bari gusubiramo amasomo yabo. Uyu kandi ari gukosora impapuro z'abanyeshuri bakoreyeho imyitozo.

Udukoresho dukoreshwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga isomo ry'imibare. Urugero harimo udufasha mu gupima uburebure, udufasha mu gucunga amakaramu akoreshwa mu gushushanya ndetse n'uduca imirongo, yaba izengurutse n'itambitse.

Ikigo kinini cyubakishije amatafari ndetse gifite urugi rw'umukara. Iki kigo gikorerwamo ibijyanye no kugorora abana bakiri bato baba bakoze ibyaha maze bagashyirwa ku murongo, bakigishwa imyuga itandukanye izabashyira mu myanya ituma bahanganirwa ku isoko, mu gihe bazaba basubiye muri sosiyete.

Udukoresho udukuzimu byuma dukoreshwa mu kwigisha mu mashuri abanza, turimo utundi dufasha mu kwandika, mu gushushanya ndetse no gupima uburebure n'ubugari bw'ibintu byigishwa mu mashuri abanza.

Udukoresho dufite amabara meza arimo umutuku ndetse n'umweru utu dukoresho dukoreshwa cyane mu kwigisha abana bakiri bato biga mu mashuri abanza cyangwa nay' inshuke kugira ngo bakure bazi ubwenge.

Inyubako z'amashuri zubakishije amatafari ahiye. Izi nyubako zifite inzugi z'icyatsi kibisi, zikaba zikorerwamo imirimo ijyanye no kwigisha abanyeshuri mu mashuri abanza, ibi biha ireme rikomeye cyane uburezi bw'igihugu.

Udukoresho turimo ak'ikoranabuhanga gakoreshwa mu guteranya imibare, kuyikuba no kuyigabanya, hari kandi n'amakaramu akoreshwa mu gushushanya, amarati na yo akoreshwa mu gupima uburebure ndetse n'ubutambike.

Imbere y'inzu yubatswe neza yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amabara atandukanye abanyeshuri bigiramo iyo bari gufata amasomo yabo hari idarapo rifite ibara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ryubahiriza igihugu.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abana mu mashuri abanza ibi byiganjemo; ibica uruziga ibipima, uburebure ndetse n'ibishushanya imirongo yihese ibi bikaba bituma abanyeshuri babasha gusobanukirwa ibyo biga.

Icyumba cyiza gifite amabara ashimishije y'umuhondo, ubururu, ndetse n'yandi. Muri iki cyumba harimo ameza ndetse n'udutebe twiza dufite amabara atukura. Ibi ni iby'abanyeshuri bakoresha mu gihe bari kwiga amasomo yabo ndetse no mu mugihe bari kuyasubiramo.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwiga amasomo atandukanye, arimo imibare mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, muri ibi bikoresho dusangamo ibikoreshwa mu gushushanya ibiziga ndetse no guca imirongo.

Udukoresho dufite amabara atandukanye arimo umuhondo, umutuku ndetse n'ayandi, utu dukoresho tukaba turiho imibare ndetse n'udukoni, bikaba bituma abana biga mu mashuri mato cyane cyane ay'inshuke bamenya kubara.

Ishuri ryiza ryubatswe rigerekeranyije ku nkunga ya Leta, rifite imiryango ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse imbere yaryo hari abanyeshuri bambaye impuzankano zabo, bari gukina imikino mbere yuko basubira mu ishuri kwiga amasomo yabo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye zifite amabara y'umuhondo izi nyubako zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bikaba bibafasha kugira ngo bakurikire amasomo yabo neza iyo bigira mu mashuri meza anafite isuku.

Ibikoresho birimo amakaramu yab ashushanya ndetse nay'andika, agakoresho k'ikoranabuhanga gakoreshwa mu kugabanya ndetse no gukuba imibare, amakaye yo gushushanyamo ndetse n'ayo kwandikamo n'ibikoresho byo gupima uburebure.

Ibikoresho bitandukanye birimo amakaramu, amarate yifashishwa mu guca imirongo ndetse n'ibiziga n'utundi dukoresho dukoreshwa n'abanyeshuri mu gushushanya, amakayi ndetse n'ibitabo, ibi byose ni ibikoresho bikenewe kugira ngo uburezi bugende neza.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, bari imbere y'inyubako y'ishuri, aba bari munsi y'igiti kinini aho bari kumwe n'abarezi babo, nyuma yo gusoza gahunda zari zabajyanye aho bari bagiye.

Imbere y'inyubako z'amashuri yubakishije amatafari, hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo, aho kandi hari abanyeshuri bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu, bakaba bari gukurikirana inama ndetse n'impanuro bahabwa n'abarimu babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, biganjemo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru n'ubururu bwijimye, bari imbere y'ishuri ryabo aho bari kwereka umushyitsi wabasuye ko bamwishimiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hamwe imbere y'ikigo cy'ishuri ryabo, aba bari guhabwa impanuro n'abarezi babo ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'igipolisi cy'igihugu ku bigendanye n'umutekano wo mu muhanda.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo urubyiruko bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru. Bateraniye ahantu hateganyijwe hari kubera ibirori. Aba bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho ikiganiro ndetse ku ngingo zitandukanye.

Mu cyumba cyo ku ishuri kirimo amabara atandukanye arimo umuhondo, umweru n'umukara, harimo umwarimu ndetse n'umunyeshuri, aba bari gusoma ibyanditse ku dupapuro bafite mu ntoki.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, aba bari hamwe aho bari gusubira mu masomo yabo, bakoresheje ibikoresho birimo amakayi n'amakaramu.

Icyumba cyiza cyane, gifite amabara y'umweru, kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara. Aba bari kumwe n'abayobozi b'ingeri zitandukanye. Bakaba bari guhabwa amahugurwa, hanifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho.

Imbere y'inyubako, ikorerwamo n'ubuyobozi bw'ikigo, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima, hari itsinda rigari ry'abakozi, bambaye imyenda y'akazi, irimo amajire n'ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka. Iyi nyubako kandi ifite n'itara ry'umweru ribonesha mu gihe k'ijoro.

Abagabo bambaye imyambaro y'akazi irimo amajile afite amabababa y'icyatsi kibisi n'umuhondo n'ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka. Bari mu cyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo ameza y'ibitabo ndetse n'intebe.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye ndetse inasakaje amabati, iyi nzu kandi ifite n'ikigega gifata amazi y'imvura, akazakoreshwa mu gihe hakenewe, ifite kandi n'itara ribonesha mu gihe cy'ijoro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'ikigina, bateraniye ahantu hamwe habereye amarushanwa, hari kandi n'umubyeyi w'umugore uri guha igihembo kimeze nk'impamyabushobozi umunyeshuri wahize abandi.

Mu cyumba cy'ishuri ryubakishije ibikoresho by'ubwubatsi birimo amatafari ndetse n'isima harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye bicaye ku ntebe bari gukora ibizamini byaho bahagarikiwe n'umwarimu.

Mu cyumba cy'ishuri ryisumbuye cyubakishije amatafari ahiye, harimo umunyeshuri wambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru n'ikigena. Uyu ari imbere ya bagenzi be, aho ari kwandika ku kibaho akoresheje ingwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'iy'ikigena, barimo ndetse abahungu n'abakobwa, bagiye gukora urugendo shuri hamwe na mwarimu wabo mu mashyamba, aho yagiye kubigisha banirebera iby'abigisha.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri ryisumbuye, yubatswe ku nkunga ya Leta, iyi nyubako yubakishije amatafari ndetse n'isima, ifite kandi ikigega gifata amazi mu gihe cy'imvura maze akazakoreshwa mu gihe andi yabuze cyangwa se mu gihe cy'izuba.

Icyapa kiri ku rukuta rw'ishuri ryubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima iki cyapa kiriho ibikoresho dusanga mu cyumba cyahariwe ubushakashatsi bukorwa n'abanyeshuri, aha harimo ibyaka umuriro, ibikozwe mu birahure ndetse n'ibindi.

Abarezi bigisha mu mashuri yisumbuye bari guha ibihembo umunyeshuri wabaye uwa mbere, uyu yambaye impuzankano ze z'ishuri, inyuma yabo hari ikigega kinini gifite ibara ry'umukara gifata amazi mu gihe cy'imvura akazakoreshwa mu gihe yabuze.

Mu cyumba kigari cy'ishuri harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru, aba bakaba biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bakaba kandi bari kuganira ku bijyanye n'amasomo yabo.

Umunyeshuri wambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, arigutambuka ava mu kigo yerekeza aho ari kujya, iruhande rwe hari ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse rifitemo n'ubwatsi butoshye bwo kwicaramo mugihe cyo kuruhuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, aba bicaye mucyumba cyiza gifite amabara y'umweru aho bari gusubira mu masomo yabo banasobanurirana.

Ku meza y'ishuri akoze mu mbaho hicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru, aba bakaba bari mu cyumba cy'ishuri kinini ndetse bakaba bari kuganira ku masomo biga.

Mu cyumba cyateguwe gifite amabara y'umweru harimo amasafuriya manini cyane aya akorerwamo ibintu bitandukanye birimo kuyatekeramo ibyo kurya biribwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari mu cyumba cy'ishuri aho bicaye ku ntebe ikozwe mu biti, aba bari gusubiramo amasomo yabo basobanurirana ndetse banibukiranya ibyo umwarimu yabigishije.

Icyumba gifite amabara y'umuhondo kirimo ibitabo by'ubwoko bwose bipanze neza mu tubati, ibi bitabo bikoreshwa n'abanyeshuri, iyo bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se abarimu iyo bari gutegura amasomo yabo bageza ku banyeshuri.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri, biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye mu cyumba cy'ishuri. Aba bari guhabwa amabwiriza, impanuro ndetse n'ibiganiro n'umugabo uri imbere yabo, nawe ari kubikora akoresheje ikoranabuhanga rigezweho.

Mu cyumba cy'ishuri, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, bicaye neza ku ntebe zikozwe mu mbaho. Aba bambaye udupfukamunwa tubarinda kwanduzanya indwara ndetse bakurikiye umwarimu wa bo, uri imbere abasobanurira.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, aba bose bambaye inkweto bahuriyeho z'umukara n'amasogisi y'umweru, ibi bikaba biri muri bimwe mu mategeko y'ikigo, aho bose bagomba kwambara ibintu bisa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara, bari mu cyumba cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, iki cyumba kibamo mudasobwa n'ibindi bikoresho. Ibi bituma abanyeshuri basohoka bakajya ku isoko ry'umurimo bafite icyo bazi ku bijyanye n'ikoranabuhanga.

Igishushanyo cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza, kigaragaza umugore ateruye umwana muto w'uruhinja, ibi bikaba ari mu kugaragaza urukundo ababyeyi b'abagore bakunda abana babo iyo bakiri bato ndetse n'iyo bakuze.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri biga muri Kaminuza bicaye ku ntebe, bari gusubiramo amasomo yabo. Iki cyumba kandi hejuru yacyo hariho nomero zikiranga, mu rwego rwo kugira ngo hatagira umunyeshuri uyoba mugihe ari kucyerekezamo.

Mu muhanda muto ufunganye w'igitaka harimo abagore ndetse n'abagabo bari kugenda n'amaguru. Uyu murima kandi ukikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bikorwamo imbaho.

Ahari ubusitani bw'ikigo cy'ishuri burimo ibyatsi bitoshye, hari imashini ikoreshwa mu kuzamura amazi ajyanwa mu kigega cyo hejuru kiyafata kugira ngo azakoreshwe mu gihe azaba akenewe.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye imyambaro isa ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari mu mahugurwa ari kubera mu cyumba k'ishuri rya kaminuza, abenshi muri bo bafite mudasobwa bari gukoresha bandikamo ibyo babwirwa.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari ahantu mu cyumba cy'ishuri, aba bari kumwe n'umwarimu wabo, aho ari kwigisha uburyo inyamaswa ziteyemo, mu rwego rwo kugira ngo bamenye uko zivurwa.

Inyubako ndende ya kaminuza ifite amabara y'umweru yubatswe mu buryo bugerekeranije, imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti bitoshye, ubwatsi, ndetse n'indabo zibereye ijisho. Aha niho abanyeshuri bicara bari kuganira ndetse no kuruhura ubwo.

Inyubako ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho bugerekeranyije ifite amabara y'umweru, iyi nyubako ifite imbere yayo ubusitani burimo ibiti birebire, ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo, aho abanyeshuri bicara bari gusubiramo amasomo yabo baganira.

Icyumba cya kaminuza gifite amabara y'umuhondo n'umweru, muri iki cyumba harimo intebe zikozwe neza zifite amabara y'ubururu, zikoreshwa n'abanyeshuri iyo bari gusubiramo cyangwa se bari gufata amasomo yabo.

Mu cyumba k'ishuri cya kaminuza harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi. Aba bakurikiye umwarimu uri imbere yabo, uri kubagezaho amasomo yandika ku kibaho gifite ibara ry'umweru.

Mu kibuga kinini gifite ubwatsi butoshye ndetse n'imirongo y'umweru harimo abanyeshuri benshi bambaye amakanzu agaragaza ko bahawe impamyabushobozi zabo, aba basoje ikiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri mu mashuri ya kaminuza.

Icyumba cya kaminuza kirimo ibikoresho bitandukanye birimo nk'ameza afite ibara ritukura ndetse n'intebe zikoze neza, izi ntebe abanyeshuri bazikoresha iyo bari gusubiramo amasomo cyangwa iyo bari kuyahabwa n'abarimu babo.

Inyubako ya kaminuza ndende ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri igihe bari gusubiramo amasomo yabo n'igihe bari kuyahabwa, imbere yayo hari ubusitani bwiza bufite indabo n'ibiti bitoshye.

Inyubako nziza ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza iyo bari gusubiramo cyangwa bari gufata amasomo yabo, hejuru y'iyo nyubako hariho nimero ziranga iyo nyubako.

Inzira yagenewe abanyamaguru iri mu kigo cya kaminuza, iruhande rw'iyo nzira hari ubusitani bwiza burimo ibiti bitoshye, ubwatsi ndetse n'indabo, aho abanyeshuri bicara bari kuruhuka cyangwa barimo baganira.

Icyumba cy'isomero gikoreshwa n'abanyeshuri ba Kaminuza igihe bari gusoma ibitabo byaba ibijyanye no kwishimisha cyangwa ibijyanye n'amasomo yabo, iki cyumba gifunzwe n'urugi rukozwe mu mbaho zikomeye ndetse zikaba zifungishije ingufuri.

Mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza harimo intebe zifite ibara ry'ubururu, izi ntebe zikozwe ku buryo zorohera uzicayemo gukora indi mirimo yicaye, zifite kandi uburyo bwiza butuma abanyeshuri bazicayemo babasha kuganira nta nkomyi.

Imbere y'inyubako y'ikigo cya Kaminuza ifite amabara y'umweru yubatswe mu buryo bugerekeranyije neza, hari ubusitani burimo indabo zifite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi. Hari kandi n'ibyatsi bitoshye, aho abanyeshuri ba Kaminuza bicara, bari gusubiramo amasomo cyangwa bari kuruhuka.

itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, aba bari mucyumba cyiza kiberamo inama, bari guhabwa kandi amahugurwa na kimwe mu bigo bikorera mu gihugu, bafite kandi amacupa ari imbere yabo arimo ibyo kunywa.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza cyubatse neza gifite amabara atandukanye arimo icyatsi kibisi ndetse n'ayandi. Kuri iki kigo hamanitseho itara ribonesha mu gihe cya nijoro bityo abanyeshuri bakaba bashobora gusubira mu masomo yabo mu gihe cy'ijoro.

Intebe nziza zifite amabara y'ubururu ziri ahantu habugenewe, izi ntebe zikoreshwa n'abanyeshuri iyo bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se n'igihe bari kuyahabwa n'umwarimu wabo mu masaha yo kwiga.

Agahanda gashashemo amatafari, keza cyane kanyurwamo n'abanyamaguru, aka gakikijwe n'indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi n'umweru, hirya y'aho kandi hari ibiti ndetse n'ibyatsi byo mu busitani.

Mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza harimo abagabo ndetse n'abagore b'abanyeshuri bicaye neza bakurikiye umwarimu uri imbere yabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku n'umukara, aba bose bambaye udupfukamunwa tubarinda kuba bakwanduzanya indwara z'ubuhumekero.

Inzu ya kaminuza ifite amabara y'umweru ndetse yubatswe mu buryo bugerekeranyije, imbere yayo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo ndetse n'imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi, yanyujijwe mu kirere mu rwego rwo kwirinda impanuka yateza iramutse inyura hasi.